Abakozi bemewe ba MTN ndetse babimazemo igihe kirekire bagomba kuba bafite utuzu tubaranga, twanditseho iyo kampani bakorera bityo ukeneyeza serivisi akazibona muburyo bumworoheye.

Igihe abakozi ba kompani runaka babaye benshi bishobora gutuma akazi gapfa nyamara bagomba kubashyira ahantu hatandukanye kugira ngo abantu babone serivisi zabo byoroshye.

Ibi bigo bitanga serivisi zirimo izigendanye n'amasimukadi, usanga mbere y'uko zigukorera simukadi, bibanza kugufotora kugira ngo ibyangombwa byawe ari byo bigendana n'umwirondoro.

Abakozi ba MTN babaye benshi mu gihugu bityo bisigaye bituma hari abantu bakora ubutubuzi bitwaje ko ari bajenti babo. Bigatuma barya amafaranga abaturage batarabimenya neza.

Abakozi ba emutiyeni bakenera urutonde rugaragaza uko umuntu abikuza n'amafaranga bagenda bamukata, bityo bikorohereza umukiriya kuba yamenya amafaranga bari bumukate.

Mu gihe ugiriwe icyizere na kampani ya MTN, ikaba yagera ku rwego rwo kuguha akazu, ujye ubikora kinyamwuga kandi harimo n'ubunyangamugayo bwinshi, kuko icyo kizere ntabwo gihabwa bose.

Buri mukozi wa Eyateri agomba guhabwa akazu ariko si buri wese ugahabwa kuko hari urwego rumwe aba yaravuyeho akagera mu rundi kugira ngo abe yagahabwa, si ibya buri wese kugahabwa.

Ahantu hose hamaze gutera imbere hagomba kuba hari abajenti ba kampani ya MTN bityo umuntu ukeneye amayinite cyangwa amafaranga akayabonera ku gihe.

Ubucuruzi: bw'imineke, avoka, amandazi n'imigati n'ibindi; bishobora gutuma utera imbere mu buryo bwihuse kuko izi mbuto ziragurwa cyane n'abantu kuko ziba zikenewe ku isoko.

Umukozi ubishinzwe niwe wenyine ugomba gufatwa nka rwiyemezamirimo, agahabwa inshingano zo guhagararira kompani runaka, kugira ngo atange serivisi nk'izo itanga nayo bityo akaba yahabwa n'akazu ko kubamo.

Kampani ya eyateli ikunze kwamamaza ibikorwa byayo ahantu henshi ibinyujije mu bakozi babugenewe yihereye akazi, bityo igatera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Umukozi wa MTN, agomba kubikorera ahantu hahurira abantu benshi kuko ugiye aho badahurira ntushobora gutera imbere no kunguka muburyo bw'amafaranga.

Buri banki igomba kuba ifite umuntu uyikorera ahantu runaka kugira ngo muntu udashoboye kuba yajya kuri banki abe yakegera uwo uyikorera amukemurire ibibazo byose afite.

Igihe twibumbiye mu matsinda ndetse n'amashyirahamwe, umusaruro w'ibyavuyemo tujye tuwukusanyiriza hamwe tuwugeze ku masoko bityo amafaranga abikwe muri iryo tsinda, cyangwa iyo koperative.

Umuhinzi w'umuceri agomba kwita ku buhinzi bwe; ndetse umusaruro we akawurinda kuba wakonnwa n'inyoni kuko inyoni iyo zimaze kubona umaze gukura nazo ziwirohamo zikawangiza.

Niba tugize amahirwe ubworozi bw'amatungo magufi n'inkoko bukabyara umusaruro, ni byiza kwita kuri gahunda yo kugaburira abacu igi rimwe ku munsi byibura, kugira ngo abana bacu bakure mu gihagararo ndetse no mu bwenge neza.

Ntacyabuza iterambere ry'abantu bakorera hamwe, kuko baba bashyize hamwe ibitekerezo bakajya inama ku cyo bakora bityo iyo bamaze gufata imyanzuro kandi bayumvikanyeho, ikagerwaho, bituma batera imbere.

Ni byiza ko ibyo tubibwirwa byose tugomba kubishyira mu bikorwa cyane cyane ibyiza kugira ngo iterambere ryacu rikomeze rigerweho kandi rigerweho mu buryo bworoshye ari ntambaraga nyinshi dukoresheje.

Buri bahinzi bagomba kugira itsinda babarizwamo bakishyira hamwe kugira ngo umusaruro bawufatanye ndetse bajye bafatanya buri kimwe cyose kuko kwirwanirira bikunze kugaragara ko bigora umuntu ku giti cye.

Iyo abantu bamaze guhembwa amafaranga yabo buryo bwo kwishimira umushahara bahawe bajya muri bare zigiye zitandukanye akaba yakwaka inyama cyane cyane nk'inkoko yose akayirya nawe akishima.

Iyo umuntu ashaka kuruhuka neza, yakoze yumva ko koko ibyo yakoze byari bikwiriye agomba kujya kwihemba, akanywamo akantu kugira ngo yishimire ibyo yakoze.

Ubundi buryo bworoshye bwo kuba watwaramo amakaziye utarinze gukoresha imodoka ushobora kwifashisha igare kuko naryo riri mu binyabiziga byoroheje kandi bitwara ibintu byinshi mu buryo butagoranye.

Iyo ugeze muri bare zitandukanye, cyane cyane izo mu mijyi, usanga umuteguro waho udatandukanye cyane n'indi miteguro, kubera yuko bamaze kumenya ko hasurwa cyane, bityo bakajya bakora buri kimwe cyazana abakiriya.

Abantu bakunze gusohokera mu tubari, kubera y'uko babona abandi babyina, ugasanga birabashimishije, bagatanga n'amafaranga ya bo, bakaba babikora binywera n'akantu.

Mu mabare ahantu hakunze kuza abantu benshi hagomba kuba hateye imeza zigezweho, intebe zigezweho ndetse hanari ibintu bigaragara ko amaso yakwishimira kubireba.

Niba uri kwamamaza igikorwa runaka, ugomba gukora bandolore zigaragaza ibyo ukora ndetse ukanabyamamaza kugira ngo ubone abakiriya benshi bityo biguteze imbere.

Iyo ugeze muri buritike wabonamo utuntu twinshi tugiye dutandukanye kubera ko uwuyikora aba azi ibyo abantu bakeneye bityo akabibegereza kugira ngo ba batarinda gukora ingendo bajya kubishakira ahandi.

Ni byiza ko ahantu hakorerwa serivisi zihuza abantu benshi hagomba kuba hari kandagira ukarabe kugira ngo buri mukiriya wese abe yakaraba amazi meza n'isabune kugira ngo duce umwanda burundu.

Mu myaka yashize nibwo wasangaga abantu bakunze kugura ubu bwoko bwa sirage kugira ngo batere inkweto zabo zihore zisa neza, ariko ubu hagiye haza izindi za kizungu zino ziracika.

Politike nziza, niyo ubonamo utuntu twose tw'ingenzi, bityo bigatuma abantu bahakunda kubera ko icyo bakeneye cyose, bagisanga iwawe bigatuma batajya ahandi.

Ni byiza ko butike yawe igomba kuba irimo utuntu twose tw'ingenzi umuntu yakenera. Nko kuba ucuruza amagi kubera yuko hariho gahunda yo guha igi buri munsi umwana ukiri muto.

Igihe umusaruro wabaye mwinshi ugomba kuwupakira mu mifuka yabugenewe maze imodoka ikaza ikawujyana ku isoko, kugira ngo n'abandi batabashije guhinga bibonemo ariko binyuze mu mafaranga yabo.

Buri mucuruzi agomba kugaragaza amafoto y'ibyo acuruza ku buryo n'uwinjiye muri butike ye, ahasanga ibyo bintu mbere yuko yinjiramo rero hakagombye kuba hari ibyapa ku muhanda, bigaragaza ibikorerwamo.

Abantu bakunze kuba bafite amafaranga nibo usanga bajya gusenga bafite imodoka, wagera kuri urwo rusengero ukabona imodoka ni nyinshi ukibaza abakire bahasengera uko bangana.

Abayobozi ni bo bafataga iya mbere gushishikariza abaturage kwambara udupfukamunwa, kugira birinde ko icyorezo cya Korona Virusi cyakwirakwira mu Gihugu, kikaba cyakanwangiza ubuzima bw'abantu benshi nk'uko byari byaragaragaye.

Byakunze kumvikana ko mansera ndetse na padiri baba batemerewe kuba bashaka ngo bakore ubukwe, bityo rero mbere y'ibyo hari indahiro zo bakora zibyemeza ku buryo ibyo byose batanabitekereza.

Byakunze kugaragara ko insengero zitujuje ibisabwa bazihagaritse. Ariko ubu basize zimwe na zimwe kugira ngo abantu batazarekeraho gusenga burundu bakaba abapagani.

Abayobozi bagomba kuba hamwe bagasangira ibitekerezo ku kintu runaka bashaka gukora, bityo bamara gufata umwanzuro bakaba bagitangiza ku mugaragaro kuko ibitekerezo byabo aba ar'ingenzi.

Ibikoresho byo mu mahoteli bigomba kuba byaratoranijwe, si ibyo ari byo byose bizanwamo, ahubwo bizanwa bitewe n'abantu bazahaza ndetse n'icyo bashaka bamara kubikora mu mushinga bikazanwa.

Ubundi inzira ijya muri hoteri igomba kuba ikoze neza ni ukuvugapa irimo amapave kugira ngo abayigendamo yere kubabera mbi nk'uko harimo igikungugu cyangwa ibyondo.

Igihe cyose twagiye muri hoteri n'abo dukundana, tugomba kureba niba batwakiriye neza kuko serivisi nziza ituma umuntu akunda aho hantu, kuko umukiriya ari umwami bigomba kugerwaho.

Iyo umuntu ageze ahantu hateguye ibyo kurya byiza birimo inyama, aba yumva aho hantu adashobora kuhava atabanje kubirya kubera yuko byagaragaye ko iyo ugeze mu ma Hoteli, usanga aribyo biryo byiberamo ariko nabyo bikaba bihenze.

Biba bisa neza kuba hoteli zigerekanyije zifite pisine kuruhande, kubera yuko umuntu wafashe icumbi muri hoteli akenera no kuba yajya muri pisine akaruhuka mu bwonko.

Nugera ahantu ukabona umuntu yakoze umushinga mugari akubaka inyubako ndende nk'izi uzamenye ko yabishoyemo amafaranga menshi kugira ngo njyewe nawe tubone iyo serivisi twifuza.

Hari umuntu ubaza niba yarageze muri pisine akakubwira ko atazi n'icyo aricyo. Ariko si ibya buri wese kuba yayijyamo, kuko kuyijyamo ni amafaranga, si nk'izindi nzuzi zisanzwe.

Umuteguro mwiza nawo ukunze kugaragara ko abantu bawukunda. Niba ufite umushinga ukora, ujye wita kuri icyo kintu utegure neza. Ku buryo buri wese ubibona abyishimira.

Ahantu hari inyubako nziza abona ko zigereranyije, hakurura abantu ndetse hakaba hari n'imbuga nziza igaragara neza, ubona ko umuntu ashobora gukoreramo imyitozo ngororamubiri, igihe abikeneye cyangwa abona ko biri ngombwa.

Isuku no kugaragara neza n'umuteguro mwiza ni ibintu biranga muri hoteli hamaze gutera imbere, ubera ko ibi bituma hari abantu benshi bahayoboka kugira ngo bihere ijisho izo serivisi.

Nugirirwa amahirwe yo kugera ahantu hateguranye isuku, amafunguro meza ndetse n'ibindi bigaragara nk'ibyo kunywa ntuzazuyaze ahubwo uzicare utekanye ubyakire.

Utuyira turimo amapave n'indabo nziza, aho hantu hakunze kugaragara nk'ahasa neza kuko haba hari akayaga keza, ndetse no kuba waharebesha amaso uba ubona ari ntako bisa.

Gutegura indabo aho dutuye nabyo bigaragara neza, cyane cyane kubitegurira ahantu hasa neza, kuko abantu bakunda indabo muri iki gihe ndetse usanga banazigura ku bwinshi.

Ahantu hateguye neza hateguranywe isuku iyo uharebye ushimishwa no kuba wahagaruka kubera ko serivisi ya mbere nziza ni ugufata umukiriya nk'umwami kugira ngo azagaruke ubutaha.

Agashya kagomba kugaragara mu mahoteli ndetse no kwihangira umurimo, ugomba gutekereza ku kintu kizakurura abantu, nk'agashya wakora gatandukanye n'ah'abandi kugira ngo ubone abakiriya benshi.

Ni byiza ko ahantu hatangirwa serivisi cyane cyane izihuza abantu benshi, hagomba kuba hari isuku ndetse hanagaragara neza, kugira ngo uhageze bimubere isomo ryo gutegura na we aho aba, hakajya hahora hasa neza.

Igihe umusaruro wawe ubona wasagurira n'amasoko ugomba kuwujyanayo ukabona amafaranga kuko iyo wahagije urugo n'ibindi bigasigara ugomba kuba wagaburira n'abandi batabibonye.

Ubundi leta idushishikariza kwihangira imirimo muburyo ubwo aribwo bwose, ntidutege amaboko ku mirimo ya leta cyane cyane abantu bize, ugasanga turabirije y'uko tuzahabwa akazi na leta, nyamara dufite ubwenge bwo kuba twakitekerereza imishinga yacu kandi yunguka.

Iyo ugeze mu masoko usanga harimo akavuyo, nyamara utacunga ibintu byawe neza bashobora kuba babikwiba ntumenye ubitwaye, niyo mpamvu rero gucururiza ahantu hadasakaye biba atari byiza kuko haba hari ibyago byinshi.

Buri muturage wese usobanutse, agomba kwigira mu isoko akagura ibintu bisobanutse, kubera yuko aba azi ibigezweho ndetse n'ibitagezweho bityo akitiramo igikwiriye.

Mbere y'uko tujyana umusaruro wacu ku isoko tugomba kuwutoranya tukawitaho maze ugashyikirizwa abantu umeze neza aho gupfa guterura ibyo tubonye byose ngo tubijyane kuko byaduhombya.

Ni kenshi dushishikarizwa kurya indyo yuzuye ndetse imeze neza ariko abatabikora si uko baba batabizi ahubwo bikunze guterwa n'ubushobozi buke umuntu aba afite bikaba byatuma atabyibonera.

Byiza gutera intebe nziza ndetse zindekoye neza, kubera ko uwuje akabona serivisi ari ahantu hanake, bituma azongera akatekerezaho, akazahazana n'abandi.

Amaresitora yamaze gutera imbere, yubaka inyubako ndende zigereranyije kubera ko akoreramo ibikorwa byagutse bityo nayo akabona abakiriya benshi baturutse ahantu hagiye hatandukanye.

Nujya gutangiza resitora uzabanze urebe aho ugiye kuyikorera, urebe ibikoresho ufite, urebe n'abo muhanganye kugira ngo uzamenye uburyo utera imbere kandi ukurure abakiriya benshi kurusha abandi bose binyuze mu guhanga udushya.

Buri wese utwara ikinyabiziga, agomba kuba afite icyangombwa niko Polisi y'Igihugu ishishikariza abantu kubera ko iyo bitwaye ntacyo ifite, nibwo usanga uteje impanuka mu muhanda zitari ngombwa.

Igihe umushoferi atwaye imodoka agombaga kugenda yita ku gukurikiza amabwiriza yo mu muhanda bityo agakoresha umuhanda we neza kubera ko hariho gahunda yagerayo amahoro na we akabasha kugerayo nta mpanuka akoze.

Abamotari ukunze gusanga ari abantu bazinduka cyane kubera y'uko baba bashaka kubona amafaranga ya kare kugira ngo bajye gutunga imiryango yabo, bityo bigatuma bazinduka kare cyane bajya kuyashaka.

Kera wasangaga abantu barakoraga ingendo ndende bajya ku mashuri ariko ubungubu amashuri yegerejwe abanyeshuri, ndetse n'uwo biri kure agomba kuba afite akagare ke akajya ahagera mu buryo bworoshye.

Igihe dutwaye ibinyabiziga byacu mu muhanda, tugomba tugomba kwita ku mategeko n'amabwiriza agenga uwo umuhanda. Kubera y'uko hari bamwe babifata nk'aho umuhanda ari uwabo bonyine bakawukoresha mu buryo budakwiriye.

Si byiza ko igihe umushoferi atwaye ikinyabiziga cye, agenda yasohoye umutwe mu modoka kuko tuba dufite ibirahure bitwemerera kuba twareba ibiduturutse inyuma.

Niwita ku mategeko yose wize mu muhanda nta kintu kizatuma habaho impanuka ukundi, ariko ibyo byose iyo ubirenzeho, ugakora ibyawe ari nta tegeko na rimwe ukurikiza ibikurikiyeho biba bibi.

Ni byiza ko ugura ikinyabiziga ari uko wizeye ko buri kimwe cyo mu muhanda ukizi neza, ari iyo perime ukaba warayibonye ndetse ikinyabiziga ukaba ukizi neza, ukabona kujya mu muhanda kugira ngo twirinde impanuka kandi tugereyo amahoro.

Ni byiza ko umugenzi atwarwa kuri moto ariko yambaye kasike kugirango arinde umutwe we, icyo imufasha cyane ni ukugira igihe habayeho impanuka abe atakwangirika ku mutwe.

Nyamuneka tujye twirinda impanuka zo mu muhanda, tudatwara neza ari uko tugeze ku bashinzwe umutekano wo mu muhanda gusa, ahubwo tujye tubera maso n'abatabikora neza tube twabatanga ku bayobozi bacu.

Buri kimenyetso cyo mu muhanda kiba gifite icyo gisobanuye, nugera ahantu hacoye imirongo y'umweru muri ubu buryo, uzamenye ko aho wambukirwa abanyamaguru bityo igihe uhasanze umunyamaguru ukitonda, akabanza akambuka.

Abamotari bajye bitonda igihe batwara mu muhanda kubera y'uko kugira ngo babone amafaranga menshi usanga bihuta abo batwaye bityo bigatuma bakora impanuka mu muhanda.

Igihe ufite ibyangombwa byose bikwemere kuba wajya mu muhanda ugatwara ni byiza ko wigurira ikinyabiziga nawe ukajya mu muhanda ugatwara bityo ukabona amafaranga ukemuza ibibazo bya buri munsi.